Aya macupa aratandukanye, amwe ni maremare andi ari munsi yayo, agiye arimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo y'ubwoko butandukanye.

Aha haragaragara umurima w'inanasi, umuntu wambaye umwambaro uri mu ibara ry'ubururu ari gutera imiti inanasi, mu gihe uri ibumoso yambaye ishati n'agapfukamunwa.

Aya macupa ni menshi kandi ari mu mabara atandukanye, amwe agiye ageretse hejuru y'andi, hagiye harimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo..

Aha ni mu kiyaga, haragaragaramo umugore uri mu bwato, afite ingashyi, ari kugenda ayikoza mu mazi kugira ngo ubwato bwicume, buve imbere, bukomeze bugende.

Iki gishanga gifite ibyatsi byiza by'icyatsi ndetse harimo n'ibyuzi byubatsemo utuzu dutoya bororeramo inkwavu, inyuma hari ibiti bitoshye.

Aha haragaragara amazi, inyuma yayo hari ibyatsi, inyuma y'ibyo byatsi hari indi nzu iri mu ibara ry'umweru. Mu gihe urengeje amaso uhabona imisozi myinshi.

Aba bantu bose ni abarobyi, bafashe indobani bari kuroba amafi, aha bari ni mu kiyaga, ikiyaga kirimo amazi menshi ari na yo bahagazemo.

Aba bantu ni batandatu bose bahagaze mu bwatsi butoshye buri mu ibara ry'icyatsi kibisi imbere y'amazi asa nabi adasukuye.

Aba bantu bose uko ari bane bafite indobo bari kudaha amazi atemba, batatu muri bo bambaye ibisurubeti byo mu ibara rya kaki.

Aha haragaragara ibase irimo amafi atandukanye, iyi basi iri mu ibara ry'umutuku, mu gihe yuzuye ibyo bayishyizemo, ibase kandi iteretse ku makaro.

Aba bantu bari imbere y'icyuzi cy'amafi. Harimo umugore ufite ibasi iri mu ibara ry'umutuku. Iburyo bwe hakaba umugabo naho inyuma ye hakaba umugore ndetse n'undi mugabo, iburyo bwabo hagaragara umwana uri imbere y'inka.

Uyu mugore arimo gusarura icyayi, ahetse igitebo mu mugongo agenda asoromeramo umusaruro we, inyuma ye haragaragara abandi babiri na bo bari muri iyo mirimo.

Hano turabonamo igihingwa cy'ikawa. Kimwe mu bihingwa bikunze koherezwa mu mahanga, biturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ikawa nyinshi ziri mu ibara ry'umutuku, ziba zeze.

Haragaragara umuntu wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umweru. Ari mu murima w'icyayi, arimo arasarura cyangwa se arimo kwita ku cyayi kugira ngo kibashe gukura neza.

Aba bantu bagaragara hano bose bari mu gusoroma icyayi kimeze neza kandi gitoshye, inyuma hari ibiti birebire bifite amashami n'amababi.

Haragaragara imbuto, zitwa ikawa. Igihingwa gikunda kuzana amafaranga. Inyinshi muri zo zarahishiye, zireze. Mu gihe nkeya ziri mu ibara ry'icyatsi, ziba zitarera, zitaragera igihe cy'isarurwa.

Aba bantu bagaragara hano, bari gusarura icyayi. Bari ku murongo umwe abari imbere. Inyuma hari abandi, n'inyuma hakaza ababakurikiye. Haragaragara kandi imisozi myiza itoshye.

Aba bagore babiri bari gusoroma icyayi uri ibumoso ndetse n'uri iburyo, uri iburyo afite ikintu yambaye mu mutwe nicyo ari gushyiramo ibyo ari gusoroma.

Aba baturage bose ni abagore bambaye ibintu bose mu mutwe, inyuma yabo haragaragara ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Aba abantu benshi bose bateraniye ku gihingwa k'ikawa, bayisaruye kandi biragaragara y'uko yeze, iruhande rwabo haragaragara ibyatsi n'ibiti.

Uyu mugore arimo araseka kandi ari mu murima, yifubitse igitenge, yambaye n'umupira uri mu ibara ry'icyatsi, yambaye ingofero ndetse n'isaha ku kaboko ke k'ibumoso.

Iyi ni imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, igiye iri mu ducupa tw'amabara atandukanye iri mu bikarito byose birunze ahantu hamwe.

Aya macupa ni ane, inyuma yayo hagaragara ikintu cy'umweru, harimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Ikigaragara cyane hano ni amakarito. Amakarito ageretse hejuru y'ayandi. Ayari hasi yiganjemo ibara ry'umweru ndetse abiri mu yari hejuru, ahagaragara hagati ni umuhondo.

Utu ducupa n'utubido twose turimo imiti y'amatungo. Utugaragara cyane imbere twiganjemo amabara y'umuhondo, ashushanyijeho inkoko. Hejuru hari akandi k'umweru.

Aya ni amacupa atandukanye agiye arimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, iburyo haragaragara amacupa maremare cyane mu gihe ari ibumoso ari magufi ugereranyije n'andi.

iyi ni imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, imwe iri mu dukarito dutoya, mu gihe indi igiye iri mu dusashi na two turimo imiti.

Iri cupa, riri mu ibara ry'ikigina, ni ryo ryiganje, rifite umupfundikizo w'umutuku ndetse riteretse ku makaro, inyuma hari ibindi bintu bigaragara mu mabara y'umweru de.

Izi nka ziri mu kiraro zasohoye umutwe mu biraro kugira ngo zibashe kurya ibyo bazigaburiye, ni ubwatsi buseye ni bwo zirimo zirarya, izi nka nziza z'umukara n'umweru.

Iki kiraro kirimo inka ebyiri zigaragara, zasohoye umutwe wazo kugira ngo zibashe kurya ubwatsi, uyu muntu uri imbere ari kuzigaburira.

Uyu muntu ari mu ishyamba ari kugenda ahantu hari ibyatsi byinshi, yikoreye inkwi zo gucanisha kugira ngo ateke yambaye umupira w'umutuku. Izo nkwi zihambirije ibyatsi kugira ngo zibashe kwegerana azitware neza.

Hano harigaragaramo itungo ry'ingurube. Inyuma yano amatungo y'ingurube hari abaturage benshi bari inyuma, wagira ngo bahawe amatungo yo kubafasha kwikenura.

Aba baturage bari guhabwa amabwiriza n'umuntu bigaragara ko ashobora kuba ashinzwe ibijyanye n'ubuhinzi cyangwa abakoresha. Bari mu murima, uhinze, inyuma yabo hari urutoki.

Uru rwuri ni rugari. Rurimo ibyatsi byiza. Hirya yarwo ikigaragara ni ikirere, kiri mu mabara meza y'ubururu ndetse n'umweru.

Iki giti kiratoshye kandi cyifiteho imbuto zitwa indimu ni imbuto zisharira ariko zikaba ingenzi ku buzima ndetse zikunda gukoreshwa nk'umuti uvura indwara nyinshi.

Uyu murima mugari uteyemo igihingwa k'ibigori. Uri ku buso burebure kandi bwagutse. Inyuma y'umurima hari imisozi igaragarira amaso.

Aka karima k'igikoni, gafite ibyiciro bitatu, icyo hasi ni kinini kurusha igikurikiyeho, igikurikiyeho na cyo kikaruta ikikiri hejuru, kuri buri cyiciro hagiye harimo ibitaka, bikikijwe n'imifuka.

Aha ni mu gishanga haragaragara umuceri harimo uri mu ibara rya kaki ndetse n'uri mu ibara ry'ubururu, hirya hagaragara umwotsi uri kuzamuka ndetse inyuma y'umwotsi hakagaragara ibiti biri ku mugezi w'umuvumba.

Iki gishanga kirimo ibiti bitari byinshi, kikabamo ibyatsi ndetse n'igihingwa cy'umuceri, hirya yacyo hari amazu.

Ibi ni ibirayi bini byeze neza mu Rwanda bakunda kubyita ibirayi bya Ruhengeri biragerekeranyije ni byinshi kandi byeze neza.

Uyu mugore ari mu murima w'igihingwa cy'ibigori bitoshye kandi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma ye hagaragara ibyatsi n'ibiti bimeze neza.

Ibi ni ibiti byinshi bitoshye bigize ishyamba, ibi biti biragaragara y'uko bimaze igihe kinini kandi ni ibiti byakimeza, uwabifotoye yabifotoye abiturutse hejuru.

uyu musozi uhinzeho icyayi gitoshye kandi gisa neza, hakikijwe n'ibiti biri mu mabara meza y'icyatsi kibisi. Inyuma urahabona umusozi nawo uriho ibiti byiza kandi byinshi.

Uyu ni umusozi ukikijwe n'ibiti byinshi cyane kandi byinzitane ni muremure kandi uteye amabengeza biryoheye ijisho kuwureba.

Aba bantu babiri bari kugenda mu ishyamba, iburyo bwabo hari ibiti, iri shyamba kandi ririmo ibyatsi ndetse n'ibitare by'amabuye.

Iri shyamba ririmo ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi. Hirya kandi hari imisozi iteye amabengeza. Wareba hejuru ukahabona ikirere.

Uyu ni umusozi uteyeho ibiti, ibiti byegeranye ariko hari aho bigiye bitandukanye, ibiti biri mu ibara ry'ubururu, ni umusozi munini ariko utari munini cyane.

Hano haragaragara umuhanda udakoze neza. Urimo akayira kanyuze mu byatsi, iburyo haragaragara ibiti ndetse n'ibumoso haragaragara ibiti ndetse n'ibigori byumye byabaye kaki mu mabara.

Iri shyamba ririmo ibiti byinshi cyane, ibigaragara imbere biratoshye kandi biri mu ibara ry'icyatsi mu gihe inyuma biteye ku musozi.

Ibi biti ni byinshi, ni birebire kandi biratoshye. Hasi haragaragara ibyatsi na byo bimeze neza. Imisozi na yo iragaragara hano.

Iri shyamba riragaragaramo ibiti bitoshye ariko kandi haragaragara igihu cyinshi kiri muri iri shyamba. Igihu kiri mu ibara ry'umweru. Mu gihe ibiti byo ari ubururu ndetse n'icyatsi.

Ibi ni ibyatsi biri ryiza cyane ry'icyatsi kibisi. Inyuma yabyo hari ibiti ndetse haragaragara amazi. Wakitegereza neza ukabona ikirere.

Ibiti biratoshye cyane ni birebire biragororotse ibyinshi muri byo kandi bifite amashami atoshye ndetse n'amababi meza ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Aha haragaragara inyanya zeze neza kandi zihishije, zabaye umutuku rwose ziri mu gitebo, umuntu yafashemo urunyanya rumwe ruri mu kiganza cye.

Hano haragaragara igiti cy'umwembe ndetse urimo' imyembe yenda kwera, hagaragaramo kandi imodoka imbere y'icyo giti, ibyo byose biri mu gipangu gikikijwe n'amabati.

Aha haragaragaramo igihingwa k'ibishyimbo biteye ku buryo bwa kijyambere. Muri uyu murima harimo impombo zitwara amazi, yifashishwa mu kuhira ibi bishyimbo kugira ngo birusheho gutoha no gukura neza.

Ibi bitunguru bigaragara hano biri mu ibara ry'icyatsi kibisi biteye mu butaka, uyu muntu iki kiganza ke kiri gukora ku gitunguru kimwe nk'aho agiye gusarura.

Aba bantu bane bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umweru, barimo barakora mu makarito arimo puwavuro.

Uyu muhinzi arimo aragenda mu murima we w'inanasi. Iki gihingwa ntabwo kirera. Biragaragara ko kikiri gito kandi nibwo kigiterwa.

Izi ni mboga z'ubwoko butandukanye. Harimo ibitunguru, hakagaragaramo inyanya, harimo tungurusumu, biri mu mabara atandukanye yiganjemo ay'icyatsi ndetse n'umweru.

Hano haragaragara imisozi, ku musozi ugaragara hano imbere hateyeho imyaka, iburyo turahabona umuntu ufashe umupira uri kuvamo amazi agira ngo yuhire.

Inyuma y'utu twuma turi mu ibara ry'umutuku n'umukara, haragaragara amazi atemba. Inyuma yayo ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, akikijwe n'ibyatsi n'ibiti.

Uyu musaza yambaye imyenda y'inshabari irashaje ari kuhira imyaka agira ngo ikomeze kugira ubuzima ariko arasa n'umukene, rwose yambaye bidashamaje ari mu murima we.

Uyu murima uteyemo imyaka, itoshye iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, haragaragaramo kandi uduhombo tumisha amazi ku mpande zitandukanye kugira ngo bashobore kuhira.

Izi mboga ziri mu ibara ry'icyatsi ziteye ku buryo bwa kijyambere, buri murima uri ukwawo kandi ugiye uriho imirongo ibiri biri, buri umwe utereyeho imboga ziteye ku murongo uringaniye.

Abantu bari gukoresha uburyo kuhira imyaka yabo, imyaka iracyari mitoya ariko bari kuyuhira bamishamo amazi kugira ngo ikomeze gutoha kandi ikure neza, hari abandi bantu benshi inyuma ubona ko bari gukora ibindi bintu byabo bwite.

Aba bantu bari gufatanya mu kuhira igihingwa k'ibigori, ni byinshi kandi biteye ku buso bugari bari kubimishaho amazi.

Aya mazi ari kuhira ino myaka hari amapine agiye mu murima atembamo amazi yifashishwa mu kuhira imyaka, kugira ngo igire ubuzima bwiza kabone n'iyo imvura yaba itaguye.

Utu duhombo dutatu dutatu, tugiye turi mu matsinda, twakwirakwijwe mu murima w'aya mashu kugira ngo twifashishwe mu kuhira, igihe imvura itabonetse, abahinzi babashe kweza nk'uko bisanzwe.

Uyu muntu arimo kuhira. Afite umupira uri kuvamo amazi. Imyaka iratoshye, ni mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Uyu muntu afite umurasire w'izuba, wifashishwa kugira ngo haboneke umuriro w'amashanyarazi wo kwifashisha mu byuma by'ikoranabuhanga ndetse no gucana.

Uyu musaza yambaye ingofero, umupira wa rakositi, ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote ziri mu ibara ry'umukara, afite umupira uri kuvamo amazi kugira ngo yuhire imyaka.

Hano haragaragara akazu gasakaje amabati ari mu ibara ritukura, inyuma y'ako kazu hari ibiti ndetse imbere yako gato urahabona agahanda k'ibitaka.

Urengeje amaso hakurya y'ano mazi urahabona abantu bane, batatu bari inyuma bose bambaye imipira isa iri mu ibara ry'umutuku, mu gihe uri imbere yikoreye ikintu.

Uyu muntu ari mu murima, afite umupira uri kuvamo amazi, ari kuwifashisha kugira ngo yuhire imyaka, yambaye umupira n'ipantaro.

Aha haragaragara amazi menshi akikijwe n'ibiti bitandukanye. Hagati mu mazi hari ubutaka bwanze gutebanwa n'amazi.

Uru rwuri ruratoshye, ruragaragaramo ibiti inyuma birukikije ndetse muri rwo harimo imyaka imeze neza, iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Iki kibaya kiriho ibiti bitoshye biri mu ibara ry'icyatsi. Hari imisozi inyuma ndetse urabonamo amazi meza ari mu ibara ryiza cyane ryamazi, atemba ubona ko ari ku buso bunini.

Uyu ni umusozi uriho ibiti byinshi ibyatsi ndetse n'amazu yubatse mu buryo butari ubwa kijyambere. Inyuma kandi haragaragara ikirere.

Aha haragaragara umusozi muremure uri inyuma hanyuma imbere y'uwo musozi hari amashyamba agizwe n'ibiti bitoshye imbere y'ayo mashyamba hari akazu gatoya k'ibyondo ndetse imbere y'inzu hakaba ibyatsi.

Hano haragaragara ibiti, hakagaragaramo imisozi, ibicu biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakagaragara kandi ibyatsi.

Uyu ni umusozi, uriho ibiti byinshi bitoshye kandi biri mu ibara ry'icyatsi, hejuru haragaragara ikirere, ubona ko gisa naho cyijimye.

Hano ikigaragara cyane ni igishanga. Giteyemo imyaka iri mu mabara y'icyatsi gitoshye. Hanyuma iburyo n'ibumoso, igishanga gikikijwe n'imisozi na yo iteyeho ibiti bitandukanye.

Iyi ni imisozi n'ibibaya hagati y'ino misozi harimo amazi karemano, hejuru hagaragara ibicu biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Iyi ni imisozi ibiri iteganye, hirya y'iyi ibiri iteganye hari undi umwe, imbere gato ikigaragara cyane ni akazu gatoya gashakaje amabati iburyo bwako hari akagonyi.

Haragaragara imisozi, amashyamba, ibiti ndetse hejuru urabona ikirere gisa neza kigaragaramo ibicu.

Ibi biti biratoshye hari ibiti byiza kandi byinshi, inyuma y'ibi biti hagaragara imisozi ibiri miremire cyane, hejuru kandi witegereje neza ubona ibicu.

Iyi ni inzu y'inkwavu. Hagaragaramo inkwavu nyinshi mu nzu. Hari n'izindi nkwavu ziri hejuru. Abantu bari hano bambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru. Bari kwita kuri izi nkwavu.

Iri tungo ryitwa ingurube, ndetse hari n'abaryita indyoheshayi. Ni itungo ryororoka cyane kandi igakundirwa inyama zayo ziryoha. Iri mu ibara ry'umweru.

Hano haragaragara ihene ziri mu rwuri ziragiwe zirikurisha, mu bwatsi bwiza butoshye buri mu ibara ry'icyatsi, ihene nyinshi zifite amabara yiganjemo ay'umweru.

Iyi nka iri mu kiraro cya kijyambere, iri ibumoso ndetse n'iri iburyo, zose zasohoye umutwe kugira ngo zibashe kurya ibyo bazigaburiye.

Izi nka ziri kugenda ziraragiwe. Barazishoye cyangwa barazicyuye. Ziri kuva mu rwuri cyangwa ziri kujyayo. Ni inka zidafite amahembe kandi zikiri ntoya.

Izi nkoko ni nyinshi, ziri ahantu hamwe, zifite amabara asa, yiganjemo ibara ry'umweru ndetse zose zifite ibirokoroko by'umutuku.

Hano haragaragara amashusho y'inka nyinshi ziri mugowuri, kandi ibyatsi biratoshye cyane biri mwi ibara ry'cyatsi kibisi.

Izi nka ziri mu kararo kegeranye, bazishyiramo kugira ngo byorohe kuzigeza aho bashaka ko zigera. Zifite amahembe meza kandi zitwa inyambo. Abari inyuma, ni abashinzwe kuzitaho no kuzivura.

Izindi ni inka nyinshi ziri mu mabara atandukanye kandi ziri mu rwuri rutoshye rwuje ubwatsi. Inyuma yazo hari ibiti na byo bifite ubuzima bwiza.

Izi nkoko ni nyinshi, ziri mu ibara ry'umweru ndetse zifite ibirokoroko bijya gusa umutuku, zose ziri hamwe mu kiraro cyazo cya kijyambere, hejuru haraka amatara.

Iki kiganza kiragaragaramo imbuto ziri kumanuka zijya mu butaka, uri kuzitera agamije kugira ngo zizere zibe nyinshi zirumbuke.

Uyu muntu arimo arahungura ibigori abihungurira ku mufuka urambitse hasi, ibitiritiri akabita iruhande, iburyo bwe yicaye mu ntebe iri mu ibara ry'ubururu, inyuma ye hari umugozi umanitseho imyenda.

Ibi biganza bibiri by'uyu muntu, byibumbiye hamwe kugira ngo bibashe kuyobora izi mbuto yayoye.

Aba bantu batatu bagaragara inyuma y'ikiraro, ni abavuzi b'amatungo. Bambaye ibisaru ibiti biri mu ibara ry'ubururu. Naho mu kiraro harimo undi umwe wambaye itabiririya y'umweru...

Aba bombi bambaye imyambaro y'abaganga. Bashobora kuba ari abaganga b'abantu cyangwa ari abaganga b'amatungo. Uri iburyo ni umugabo yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, bombi bambaye udupfukamunwa.

Uyu musore ugaragara imbere cyane, afite imbwa yayambitse igisheni mu ijosi, bigaragara ko we n'imbwa ye bumvikana. Iyi mbwa iri mu mabara ya kaki n'umweru.

Iyi ni inyamaswa yapfuye, ni inka, ibice byayo byo mu nda babikuyemo, haragaragara bote iri mu ibara ry'umukara, bigaragara ko hari abavuzi b'amatungo.

Hano hagaragaramo benshi, batatu muri bo biri ry'ubururu. Mu gihe umwe yambaye itaburiya y'umweru, hakagaragaramo n'inka ifite amahembe maremare.

Aba ni abaganga b'amatungo. Bambaye amateburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru, barimo barabaga inyama kugira ngo wenda bazisuzume cyangwa se bakore ubundi bushakashatsi bwabo.

Aha hagaragara abantu benshi ndetse hakagaragara n'inka irwaye yaguye hasi, abavuzi b'amatungo bari gukoresha ubumenyi bwabo mu kuyidoda bafatanyije n'abashumba.

Aba bavuzi b'amatungo barimo gukora ubushakashatsi ku nyamaswa. Umwe ari ibumoso, undi akaba iburyo. Bombi bambaye amataburiya ndetse n'udupfukamunwa.

Aba ni abaganga b'amatungo. Bari gufasha inka kubyara cyangwa se bari kuyivura. Aba baganga bombi uko ari babiri bambaye ibisaru ibiti by'ubururu. Umwe yambaye bote z'umweru.

Hano haragaragara imbwa enye, haragaragara kandi udusorori dutatu, izi mbwa zose ziri mu byatsi, iburyo bwazo hari inzu.

Izi nyamaswa ebyiri zigaragara zitwa ibitera, haragaragaramo umuntu uhetse igikapu kiri mu ibara ry'umukara ndetse wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, izi nyamaswa ziri mu byatsi.

Iki gikoko ni igikoko k'inkazi, gikunze kuba mu mashyamba no mu mapariki cyane cyane kitwa igisamagwe, gifite amabara atandukanye harimo ay'umweru n'umukara ndetse n'andi ajya kuba umuhondo.

Iyi nyayamaswa y'ishyamba iteye amabengeza. Afite amahembe ashinze neza ndetse n'amabara meza. Iri mu ishyamba. Ihagaze mu bwatsi butoshye.

Iyi nyamaswa yiryamiye mu ishyamba. Yitwa igisamagwe. Ifite amabara menshi atandukanye. Harimo umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Aha haragaragara intare ebyiri, imwe iri hasi irasamye amenyo yayo yuzuye mu kanwa ari kugaragara, zombi ziri mu rwuri rurimo ibyatsi byinshi.

Izi ni intare ebyiri. Imwe iricaye iy'iburyo mu gihe y'ibumoso iryamye. Inyuma hari ibiti byinshi rwose biragaragara ko ari mu cyanya cyahariwe inyamanswa.

Intare ntoya y'umwana ihetse agakende gatoya biratangaje, hirya y'iyi nyamaswa y'intare ihetse agakende hari igisamagwe, biri mu bwatsi bw'ishyamba.

Iyi ni inyamaswa yitwa igisamagwe, yasamye amenyo yayo n'ururimi byose biri kugaragara.

Iyi nyamaswa iryamye mu giti, inyuma y'iki giti haragaragara ibindi biti byinshi bitoshye ni mu ishyamba kimeza.

Izi nyamaswa ebyiri ni intare iri ibumoso ni intare y'ingabo kandi inkuru ifite umugara mu gihe iri ibumoso ari intare y'ingore ikiri ntoya byose biri mu ishyamba.

Inyamaswa igaragara yitwa umuhari, yicaye mu byatsi inyuma yayo hagaragara ibiti byinshi bigize ishyamba yiberamo, yashinze amatwi iri mu mabara yiganjemo ay'umweru.